Igishushanyo cy'abana bari mu ishuri aho bambaye impuzankano z'amashati y'ubururu bwerurutse hasi bakaba bambaye ubururu, barimo kwiga imibare imbere yaho hari imbonerahamwe irimo imibare icumi inshuro ebyiri ndetse n'umubare makumyabiri.

Ishuri rirushanyiweho amasaha; amasaha atatu ashushanyije ku ishuri akoreshwa nkimfashanyigisho bifasha abana kumara ibihe bagendeye ku masaha yashushanyijwe ku ishuri. Ibi bikorwa nko mu mashuri abanza cyangwa ay'incuke.

Igishushanyo kiriho abana b'abanyeshuri, ni abanyeshuri bane harimo abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri aho barimo kugenda bameze nk'abagiye ku ishuri, abakobwa bambaye impuzankano y'amakanzu y'ubururu, abahungu bambaye amashati y'ubururu n'amakabutura y'umweru.

Igikapu cy'umwana ukiri muto, kiriho igipupe, bivuze ko ari agapu k'umwana wiga nko mu mashuri y'incuke, ajyana ku ishuri haba harimo nk'amakayi ndetse n'ibindi bikoresho yakenera mu gihe arimo kwiga.

Ishuri ririho ibishushanyo bitandukanye byifashishwa n'imfashanyigisho mu bana b'inshuke, hariho ibishushanyo nk'indabyo, amafi, ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda, umuntu, isaha ndetse n'ibindi, bifasha abana bo mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kubisobanukirwaho mu buryo bworoshye.

Abana b'abanyeshuri mu mumashuri y'inshuke bambaye impuzankano z'amashati y'umuhondo hasi bakaba bambaye icyatsi, bari bambaye ingofero z'umweru, aho bari ku murongo bari kumwe n'abarimu babigisha.

Inzu yubatse mu buryo bumeze nk'ishuri iri ni ishuri ry'abana b'inshuke aho barimo kuhigira kugirango babashe kumenyera bambaye impuzankano n'udusati tw'umweru hasi bakaba bambaye umukara.

Imfashanyigisho n'uburyo basomamo umuziki cyangwa baririmbamo. Ni imfashanyigisho yigishwa abantu bari muri korali cyangwa se n'abana bo muri garidiyeni kugira ngo babashe gusoma neza.

Ikigo cy'amashuri aho bawubakiye aho bagomba kujya bakinira umukino w'amaboko. Iki ni kibuga kiza abana b'abanyeshuri bajyamo kugira ngo bitoze imikino y'amaboko kandi bagororere umubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, harimo ibyifashishwa mu kwandika ndetse no gushushanyaranya, imibare ndetse n'ibindi harimo nk'imashini, amarate, umukasi, kereyo n'amakaramu n'ibitabo byo kwandikamo.

Igishushanyo gifatwa nk'imfashanyigisho, aho hari umubyeyi w'umugabo ndetse n'umumama barimo kuganiriza abana b'abanyeshuri bicaye, akenshi bikorwa kugira ngo abana bo mu mashuri abanza cyangwa inshuke babashe gusobanukirwa neza amasomo bari kwiga.

Icyapa cy'ikigo cy'amashuri cyitwa Gishororo, aho hariho indangagaciro ziranga abanyeshuri ndetse n'abarezi n'abayobozi bo muri icyo kigo harimo gukunda igihugu, gukorera ku gihe, kugira umwete, kugira isuku, gukorera ku ntego ndetse n'ibindi.

Igishushanyo kiriho amafoto y'umuryango aho hariho ababyeyi babiri ndetse n'abana bane, umubyeyi umwe yitwa Jabo undi umwe w'umudamu yitwa Simbi, abana bane harimo uwitwa Ganza, Keza, Shema ndetse na Saro, iki gishushanyo gituma abana babasha kwiga ngo bafate amasomo y'uburyo umuryango uba umeze.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu ishuri. Akenshi bikoreshwa mu gushushanya harimo umukasi, takeleyo, irati, kereyo ndetse n'ibindi.

Icyapa cyanditseho murakaza neza mu kigo cy'amashuri cya Nkubi, bivuze ko aya ari amarembo y'ikigo cyisumbuye cyangwa cy'amashuri yisumbuye cya Nkubi. Aho abanyeshuri baba bigira.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gushushanya, ndetse n'igikoresho bibikwamo. Harimo nka compa ica uruziga, amarati aca imirongo ndetse n'ayapima ibipimo bitandukanye bitewe n'igishushanyo.

Ikigo cy'amashuri, amashuri yubatse ku murongo. Hariho imiryango mu marange y'icyatsi ndetse n'iyindi y'amarangi y'umuhondo kandi imbere yaryo y'ishuri hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Amazu meza y'umweru. Ni amazu agiye arimo ibyumba bitandukanye, wakwita nk'amashuri. Aho impande yaho hari indabyo nziza bateye, aho zigenda zigabanya inzira zijya mu mashuri, uko ishuri rirangiye bageramo izindi nzira.

Igishushanyo kiriho imibare kuva kuri rimwe, kugera ku icumi. Ibi bikoreshwa nko kwigisha abana mu mashuri abanza cyangwa ay'inshuke, uburyo bamenyamo kubara imibare.

Ishuri ryubatse neza ishuri rigeretse, impande y'aho hari ayandi mashuri asa nk'ayamaze igihe kinini cyangwa ashaje, aya ni amwe mu mashuri yubatswe na Leta mu gihe cya Kovide, akaba ari amashuri meza kandi agezweho.

Ibishushanyo by'imbuto zitandukanye aho byifashishwa nk'imfashanyigisho mu kwigisha abana, aha ngaha barimo kubigisha icyo bita seti cyangwa ihuza ibintu harimo imineke ndetse n'ibindi.

Inzu yubatse mu buryo bwiza isakaje amabati ajya gusa ubururu, amazu ameze gutya aba akenshi ameze nk'amashuri, iri ni ishuri rya pirimeri impande y'aho kandi hari ahantu hari intebe zimeze nk'izo abana bicaraho.

Intebe ziteye neza kandi zikoze mu mabara atandukanye, akenshi ahantu hateguye gutya haba higira abana bakiri batoya nko mu ishuri ry'amashuri abanza cyangwa se inshuke, aho abana bakunda amabara atandukanye bigatuma bakunda kuza kwiga.

Ikirango kiranga ishuri rya groupe scolaire Rubagabaga. Bivuze ko buri munyeshuri wese afite sinye, igaragaza ikigo yigaho. Iyo umunyeshuri yambaye sinye imeze gutya, aba yiga ku kigo cya Rubagabaga.

Ahantu hakoze neza kandi hari amarangi atandukanye, ni ahantu abana bo mu mashuri abanza bigira harasa neza, akenshi ibi bituma abana bakunda kuza kwigira ntibagire ubunebwe bwo kuza kwiga.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga, harimo imashini iteranya, igakuba, ikagabanya, ikanakuramo imibare, amakereyo ashushanya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya. Cyane cyane ibi bikorwa n'abantu benshi biga Imibare. Harimo ibica uruziga, ibica umurongo nk'irati, ibica uruziga, ni kompa ndetse n'ibindi byifashishwa mu gupima.

Igishushanyo gifatwa nk'imfashanyigisho, aho barimo kuvuga gakire na gasaro mu mashuri y'incuke. Iyi ni inkuru ifasha abana bakiri batoya bari mu ishuri amashuri y'incuke cyangwa abanza kugira ngo bababere nk'imfashanyigisho no kubatoza gusoma no kwandika.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya cyane cyane mu mibare cyangwa ibindi byose bisaba ibipimo. Harimo nk'ibishushanya uruziga nka kompa, ibica imirongo ndetse n'ibipima ibipimo bitandukanye harimo amarate ,umugoma takeleyo n'ibindi.

Umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri, ahagaze ahantu mu kibuga hameze nk'ahakinirwa basiketi cyangwa umukino w'amaboko. Aho arimo gutanga ikiganiro, abanyeshuri bamuri imbere bamukurikiye.

Abanyeshuri bo mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zisa. Aho bamanitse amaboko, bameze nk'abafite ikintu bishimiye, umwe yamanitse igitabo hejuru cyane. Aba ni abanyeshuri baba bari mu wa gatatu mu wa kane gutya mu mashuri yisumbuye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye harimo abarezi ndetse n'abandi bagiye batandukanye, aha bari ku kazu k'abakobwa bivuze ko mu gihe umukobwa agize ikibazo cyangwa arwaye agomba kuza muri kano kazu akaruhuka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bahagaze hamwe. Aho bambaye amashati y'umweru, hasi akaba ari umukara imbere yabo kandi hari umuhungu umeze nk'umuyobozi, wambaye umupira w'ubururu. Aho bameze nk'abitabiriye igikorwa runaka bifashe neza barimo guhabwa nk'ikiganiro cyangwa ibindi.

Abanyeshuri bambaye imipira y'ubururu, hasi amajipo y'umukara, abandi amajipo y'ikigina. Imbere yabo kandi hari undi munyeshuri wambaye impuzankano z'ubutabazi bw'ibanze. Akenshi uyu mwambaro uba uriho ikimenyetso cy'umusaraba, bivuze ko ushinzwe ubutabazi cyangwa Croix rouge.

Abanyeshuri baricaye imbere yabo hari umuntu urimo kubigisha, bamwita nk'umwarimu cyangwa se undi muntu uri gutanga ikiganiro cy'ibintu bigiye bitandukanye, abanyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse imbere yabo hakaba hari abandi bantu babiri bicaye, bameze nk'abayobozi cyangwa abandi bantu baje mu gikorwa cyo gutanga ikiganiro runaka.

Abana bo mu mashuri yisumbuye, ndetse n'abandi biga imyuga baricaye ahantu muri sale nini. Aho imbere yabo hari umuntu urimo gutanga ikiganiro kijyanye na gahunda zabazanye.

Abanyeshuri bamwe bambaye impuzankano z'amashati y'umweru ndetse abandi bambaye imipira y'imihondo, imipira y'umuhondo akenshi ikunda gukoreshwa bagiye nko mu mirimo ngororamubiri, bicaye ahantu hamwe aho bameze nk'ahabaye ikirori cyangwa barimo guhabwa ibiganiro bitandukanye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baricaye aho imbere yabo hari umunyeshuri w'umukobwa ufite ikayi urimo gusoma ibintu, ameze nk'urimo kugaragaza ibyo yize cyangwa se gutanga ubumenyi cyangwa kwigisha abandi banyeshuri.

Ikigo cy'amashuri ni amashuri yubatse ahantu heza kandi harimo indabyo zitandukanye, hari n'ibendera ryigihugu cyacu cy'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu bambaye impuzankano z'imipira y'icyatsi ndetse imbere yabo hakaba hari abantu bicaye, bameze nk'abayobozi kandi harimo abashinzwe umutekano barimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abo mu nzego z'iperereza nka RIB, aho bameze nk'abitabiriye igikorwa runaka, cyo mu mashuri.

Intebe zimeze neza harimo imwe idasa n'izindi, izi ntebe zikunze kuboneka mu mashuri ya kaminuza aho zifite umwanya mwiza wo kwandikiramo kandi wicaye unegamye.

Abantu batandukanye harimo abazungu n'abirabura, barimo kugenda ahantu hari inyubako nziza hameze nko mu kigo cy'amashuri ya kaminuza, aho bisa nkaho bakiriwe nk'abashyitsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'imipira y'icyatsi ndetse hasi bakaba bambaye umukara. Aho bicaye barimo gutangwa cyangwa guhabwa ikiganiro, bose bakurikiye kandi ni gahunda imeze nk'iy'ubukangurambaga barimo.

Abanyeshuri bicaye neza aho bafite imashini abandi bakaba bafite amakaye, bakurikiye umuntu imbere urimo kubigisha, akenshi abanyeshuri bameze gutya baba ari abo mu mashuri yisumbuye nka kaminuza aho biga bafite imashini ndetse n'amatelefone mu ntoki.

Intebe y'ubururu imeze neza, ni intebe yegamirwa kandi ukaba wanayandikiraho, izi zimeze zi gutya zikunda kuboneka mu mashuri ya kaminuza, hateretseho indobo isa nabi aho bimeze nk'aho ahantu iyi ntebe iteretse barimo kuhakorera amasuku cyangwa ibikorwa by'ubwubatsi.

Abantu babiri bari mu ishuri aho umwe arimo kwigisha undi, aha ni mu bintu bijyanye n'umwuga aho umwarimu arimo kwerekera umunyeshuri uburyo ibintu bikorwamo neza.

Intebe nyinshi zisa ubururu kandi ziteye ku murongo. Izi ni intebe nziza umunyeshuri yicaramo akegama akaba yanabasha kuzandikiraho. Izi ngizi zikunze kuboneka mu mashuri ya kaminuza.

Abanyeshuri barimo kugenda mu kigo aho bageze ahantu mu nzira hari amapave akenshi abanyeshuri batambaye impuzankano baba biga muri kaminuza, barimo kugenda bamwe bafite ibitabo abandi ntabyo bafite.

Ahantu hari inzira hubatse amapave. Harimo umuntu urimo kugenda kandi hari n'icyapa kigaragaza ikinyabiziga ko cyagize ikibazo cyangwa ibinyabiziga bitemerewe kuhanyura. Hari n'amazu ku ruhande, hameze nk'ahantu hari nko mu kigo cy'amashuri cya kaminuza.

Abanyeshuri bo muri kaminuza basoje kwiga, aho bambaye imyenda igaragaza kwishimira cyangwa umunsi w'ikirori cyo gusoza amasomo yabo, kandi buri wese afite impamyabumenyi y'amanota cyangwa impamyabumenyi y'ibyo yize.

Intebe z'ubururu, ni intebe nyinshi z'ubururu aho harimo umuntu umwe uzicayemo abandi babiri bahagaze, izi ntebe ni intebe ziteye neza aho umuntu ashobora kwicara akegama akaba yanakandikiraho cyangwa agaterekaho ikintu, zikunze kubonwa mu mashuri ya za kaminuza ni ho zikunze kuboneka cyane.

Umuryango ukinguye kandi hejuru y'aho wanditseho imibare, zeru, inyuguti ya R, zeru, gatandatu, bivuze ko ari nimero iranga umuryango runaka cyane cyane nko ku ishuri iyo hari amashuri menshi bashyiraho iyo mibare kugira ngo ibashe kuranga ishuri runaka abanyeshuri bajye bamenya aho bajya kwigira.

Abanyeshuri barimo kwiga, ni abanyeshuri benshi bicaye ahantu hamwe aho bagiye kwiga cyangwa bakaba bagiye guhabwa ikindi kiganiro, akenshi abanyeshuri iyo batambaye impuzankano baba ari abo muri kaminuza.

Umuryango uriho umubare, rimwe, inyajwi R na cumi na gatatu, bivuze ko uyu muryango cyangwa amagambo yanditseho ari indangahantu, akenshi bikunda gukoreshwa nko muri kaminuza cyangwa mu mashuri, aho iyo bavuze ngo turigira mu mibare iyi n'iyi, umunyeshuri amenya ahantu agomba kujya.

Intebe nziza ziri mu mabara y'ubururu, ziteye ku murongo. Ni intebe umunyeshuri yicaraho, akaba yakegama, akaba yanakandikiraho, izi ntebe kandi zikunze kuboneka mu mashuri ya kaminuza.

Intebe nziza zisa ubururu. Ni intebe zikunda kuboneka mu amashuri ya kaminuza, aho abanyeshuri baba bicaraho ndetse bakaba banegama, bakandikiraho. Inyuma yaho kandi hari ibindi bikoresho bitandukanye.

Abakobwa babiri barimo kugenda ahantu hari indabyo zimeze neza ndetse bakaba bari kugenda mu nzira y'amapave, bameze nk'abantu bari mu kigo cy'amashuri, ahantu hameze gutya, hakunda kuba ari nko muri kaminuza.

Aha umuryango uriho icyapa cyiri mu magambo y'ubururu n'umweru, agaragaza main library, bivuze ko ari ahantu hari isomero rusange, aho abanyeshuri bajya gusomera, bagakura ibitabo by'ikigo.

Intebe ziri mu marangi y'ubururu. Akenshi izi ntebe ziba intebe nziza, intebe wicaraho ukegama, ukaba wanakandikiraho. Aho zikunda kuboneka mu mashuri ya kaminuza harimo abanyeshuri, aho umwe azicayemo undi nawe yicaye imbere, abandi bakaba bahagaze hanze.

Umuntu umwe arimo kugenda mu kigo cy'amashuri ya kaminuza. Aho impande e ari ahantu hanini hubatse n'amapave. Hashobora kuba haparikwa nk'imodoka z'abashyitsi cyangwa abakozi muri kaminuza cyangwa se akaba n'inzira isanzwe. Ni umunyeshuri w'umukobwa rero urimo kugenda mu kigo.

Abanyeshuri bane, bari kwishimira ko basoje amashuri ya kaminuza. Aho baba bambaye impuzankano ibigaragaza, aho biba bigizwe n'ikanzu ndetse n'ingofero. Ibi bikunze kuba abanyeshuri basoje kaminuza, bagahurira hamwe bagiye gufata impamyabumenyi yabo, bakishima.